Umucuruzi wa Eyateli, n'abandi bantu benshi bari hirya bakurikiye, bari mu kizu gisakaye arimo kuvuga yambaye agafukamunwa ku maso hepfo hari kaburimbo hari na fensi.

Umu papa yambaye akajiri afite mikorofone arasobanura, ari imbere y'abantu ku ruhande hari mugenzi we uhagaze afite ishati y'amaboko maremare y'umweru.

Amagare menshi aparitse harimo ay'amasuporutifu, harimo amashyashya, harimo atarafunukurwa, imbere y'amagare hari imfungwa zicaye, zicaye ku murongo, hari abandi inyuma bahagaze n'umuyobozi wabo, ku ruhande hari imodoka zicaye mu mutaka wa MTN,bityo hari abantu benshi babazengurutse.

Umwagenti arabikuriza umuturage usanzwe amafaranga ari mu mutaka wa emutiyeni yo hasi hari uwuhicaye babiri bahagaze imbere ye hakurya hari imodoka inyuma hari ibiti iruhande hari indabyo n'ibiti bibakikije, barimo gucuruza. Barimo gucuruza ama...

Imbere yo kwa muganga ku ivuriro hari igipangu, ku gipangu hari hanze umutaka w'umucuruzi wa MTN n'agasanduku n'agatebe yicaramo ku ruhande baturanye n'amazu imbere ya kaburimbo n'insinga z'amashanyarazi.

Icyapa cya banke popereri kibambye ku kazi k'umu agenti, hasi hari akazu karimo indabyo zumye, hirya hari urugi ruriho ibyo acuruza, hirya hari icyapa cya imfinigisi.

Umwajenti ari mu mutaka n'abandi baturage benshi bamuhagaze uruhande; abaturage bane imbere n'agasanduku kuko yateretseho amafaranga hejuru menshi ari umwe mama wicaye iruhande, hirya hari n'abandi barimo gucuruza.

Abantu bari mu isoko ry'imbuto baje guhaha inansi bari kumwe n'abacuruzi bazo, hari abaturage benshi baje kuzireba, hari abarimo gufotora, inanazi nyinshi cyane baziritse aho ngaho ku meza abantu benshi baje kuzireba, ziri muri tente n'abahinzi bazo.

Imodoka ifite icyapag cyanditseho biva mu mutima, aya ni amayinite ya MTN iba irimo kwamamaza, irimo kugenda yamamaza icya amayinite yitwa biva mu mutima hariho n'agashushanyo k'umutima imodoka irimo kugenda.

Umucuruzi w'umudamu afite mikoro kandi afite n'amasabune yatondekanyije imbere ye, imbere ye kandi hari n'igisabo yajishemo, abandi bantu bamutoroye inyuma hari n'abandi bacuruzi bari inyuma bafite ibikapu, ibitabo n'ubupapuro rwa efuperi inkotanyi.

Umudamu ahagaze imbere muri tente, afite mikoro na telefoni yambaye umupira uriho ikirangantego cy' u Rwanda, tente idekoresheje imyenda igize ibendera ry'u rwanda.

Abaturage bicaye munsi y'igiti harimo abicaye ku ntebe hari abahagaze inyuma babazengurutse bashoje umuganda haruguru hari umuhanda ahandi hari inzu hari n'ibiti n'ibyatsi bicayemo. Bamwe bafite ibitabo bameze nk'abumva amategeko.

Iduka ririmo inzoga na mavuta yo kwisiga n'ibindi bikoresho bakoresha mu gukora amaji, n'amacupa n'amavuta y'ubuto, biri mu iduka biteretse mu kabati.

Akabari harimo amatageri y'inzoga ziteretsemo, buri kabati karimo inzoga ziteretsemo, hejuru hari televiziyo no ku ruhande hariri indi televiziyo, hasi y'intebe hari intebe ziteretseho abantu bicaraho.

Resitora iteguyemo amezi n'intebe n'amatara n'amadirishya afunguye hakurya harimo n'imitako resitora ikoreshwa hakurya harafunze hose ni etaje.

Resitora iteguyemo imeza n'intebe n'amashashi ateguye ku meza, n'agacupa ka kirida hakurya hari, televiziyo ya furati imanitse hejuru hirya harimo, n'izindi shambure z'intebe.

Amacupa y'inzoga zo mu bwoko butandukanye harimo zose z'abacururiza ahongaho, niho mu bwoko bwinshi bw'inzoga : raki gini, redi rebo, gimo bimo.

Igicupa cy'amavuta cyanditseho vesiterine, hari igishushanyo cy'umukobwa ufite imisatsi miremire yifashe ku itama arimo guseka, hari n'ikindi gicupa giteritse iruhande rwe ku ruhande, hari n'ikindi giteretse haruguru.

Isoko ricuruza imyenda n'ibindi bintu byinshi cyane, hari icyapa cyanditseho Luck's shop kurundi ruhande ni imiryango itatu, umuryango umwe witwa Unique Supermarket, undi muryango witwa Luck's shop imiryango icuruza ibintu byinshi bitandukanye ku ruhande rwa mbere hari indobo, n'ahandi hari intebe na za maneke zambaye imyenda.

Hari abadamu bicaye harimo n'aba papa hari abicaye inyuma hari n'abicaye imbere hari n'abicaye hagati, hari ufashe telefone asa nkaho arimo kugira icyo abumvisha, umeze nk'abarwayi bicaye muri sale bicaye ahantu hamwe bose.

Umubyeyi yazanye umunyeshuri we akana gatoya kwa muganga, akazaniye umugangakazi arimo kumureba ikibazo yaba afite ku matwi cyangwa se mo imbere mu gutwi arimo kumureba ari kwa muganga.

Abaturage benshi baje gusenga mu kiriziya. Urusengero rurerure cyane, hariho etaje, hejuru hari umusaraba, abantu benshi bari hanze, bafe bitwikiriye imitaka, abandi nta mitaka bafite haruguru hari ikigo cy'amashuri.

Urusengero runini cyane, rufite imiryango ibiri, mo imbere harimo umwijima ntabwogo rugaragara, hejuru hariho umusaraba, imbere hanze ku muryango hari umuntu usohotsemo, nyamara aragenda kuru ruhande, hari indabyo, hari amatenti, hakurya hari amazu makeya.

Inzu ishaje cyane ifite amabati yashaje, ifite irangi ryashaje, ifite sima yashaje, n'urugi rwashaje no hanze harashaje, nta abantu bayibamo, iri mu bihu, hakurya hari imisozi minini cyane.

Abagore n'abapapa, bicaye mu kidara, hari abafite impano, hari abafite amasakoshi, hari abafite bibiliya, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, ku ruhande hari umuntu uhagaze inyuma yabo, baricaye.

Inyubako ya hoteli yubatse haruguru y'amajaride, ifite izindi nyubako nyinshi cyane, ifite jaride, indabyo z'amabara menshi, umutuku, umuhondo, urucaca, ni hotel.

Inkoko bagiye guteka iriho ibirungo by'isosi, hari n'isosi iri mu isafuriya, biri mu gikoni biteretse ahantu, ni mu gikoni bagiye kubiteka.

Igitanda kiri mu cyumba gishashe neza kiriho n'imisego na piro, hiriho n'indererwamo hejuru n'amarido mu mpande, n'utubati turi mu mpande no hirya hariyo amatara n'utundi tubati dutoya.

Abacuruzi bari mu isoko ryabo, hari abari iruhande rw'inzira barimo gucuruza inkweto iruhande rw'inzira, hari abari mu mashitingi bashitinze barimo gucururizamo, umubyeyi yazanye umwana arimo kumwereka inkweto, yaje kugurira umwana inkweto.

Umucuruzi yasohoye ibyombo byo mu rugo byo gucuruza; amasahani, ibikombe, amajyaga, indobo, ibidomora, imyuko, amasafuriya, n'imishyo. Yabiramburiye ihema abisasaho kugira ngo abicururizeho.

Isoko ririmo abantu benshi epfo no haruguru barimo gucuruza hari umugabo wikoreye indobo y'amandaazi kandi ikaba ari indobo nziza y'umweru iteye ubwuzu. Ikindi kandi muri rino soko harimo ibintu bitandukany nk'ibitoki ndetse harimo abacuruzi b'amambati ndetse harimo n'inzira abantu banyuramo.

Isoko ry'imyenda, amashuka n'amakuvureri abacuruzi baje gucuruza kandi babimanitse ku biti, hirya hari amamoto n'amashambure ndetse imbere hari umugabo uri mo kugenda mu isoko hagati kandi yambaye ingofero.

Isoko ry'umuntu urimo gucuruza amabafo, imikubuzo, ku ruhande hari intorezo ziriho, hari ibafo irimo imigozi y'ubugogwe kuri shitingi mu ibafo mu imbere, amababi yose arimo kuyacuruza yayashyize ku mashitingi, hari umudamu uhagaze, ntabwo agaragara ariko afashe igikapu mu kuguru.

Umutaka wavunitse w'u bacuruzi wa MTN, hasi hari indobo, hejuru hari urubaho, umudamu ahagaze imbere n'umukubuzo, ahetse umwana iruhande rw'indobo. Hakurya ni'ibicu.

Isoko ry'abacuruzi b'imyenda barimo kwamamaza imyenda, hari abayifite mu ntoki, hari abafite amasutiye, hari umuhagaze ku ruhande afite imyenda nawe arimo kwamamaza, hari abunamye bari mu bipapuro gukuramo imyenda, ni isoko rusange ririmo abantu benshi, ku ruhande hari imodoka ihari, abandi bari mu isoko baragura.

Abantu benshi bari mu kibuga bameze nkaho bari mu isoko, hari imodoka nyinshi zihparitse, hari abantu benshi bafite amagare n'amamoto, hari umudamu arimo gukurura ihene n'akana kayo, hiya hari itenti zirimo abantu benshi, ku ruhande hari imbaho nyinshi cyane bagiye banyanyagiza hasi, hari abicaye mu mutaka ku iremba aho umudamu ageze.

Abantu benshi barimo kwanika imyumbati y'imivunde umu mama arimo kuyanika arunamye. Hari no hirya abahagaze ku magare n'akana. Hari n'undi mugabo uhagaze iruhande rwe n'amazu abitoroye ku ruhande.

Abagabo babiri harimo umugurisha n'umuguzi, umuguzi yambaye bote z'umukara n'inkoni, ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru n'agashabazi ku rutugu, ingofero y'urugara. Inyuma ye hari abandi bacururiza muri shitingi no hirya inyuma y'umuhanda mu kuboko kw'ibumoso harimo abarimo gucururiza mu mashitingi no haruguru y'umucuruzi.

Umumotari ahetse umugenzi yicaye inyuma bose bambaye kasike, hirya hari amazu menshi arimo hirya yarompuwe, haruguru y'umuhanda hari n'iyindi nzu iruhande rwa kaburimbo, barimo kuyigendaho bose.

Umumotari arimo kujya guparika muri parikingi y'imodoka hari amavatiri aparitse imbere ye hari n'inzu iri iruhande rwihariye na kaburimbo irimo gusohoka umuhanda hari n'abandi bamotari baparitse hirya ndetse hari n'ibiti n'imikinodo.

Umumotari areku gutaba ahetse akana gatoya kamuri inyuma yakambitse kasike y'ubururu kandi umumotari yambaye umutuku inyuma ye hirya ye hariyo amazu ari muri jalide y'ibiti birebire birimo gukomera.

Abanyonzi b'abasore babiri n'amagare yabo, baparitse imbere, n' abandidi bantu bari mu mitaka hakurya y'abadamu batatu bari mu mutaka wa airtel, abandi bari mu mitaka ya MTN, hirya y'aho pbaparitse hari insinga z'amashanyarazi mu kibuga hagati.

Umunyonzi ari muri kaburimbo arimo kugenda inyuma ye hari abamotari baje bamukurikiye nawe afite umuzigo ahetse, ari muri kaburimbo isa naho ishaje. Haruguru ye ku ruhande rw'iburyo hari umurima urimo ibiti byinshi, ku muhanda hari insinga hari amapoto atwara insinga z'umuriro n'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umumotari uhetse umugenzi inyuma ye ayafashe igitebo bari mu muhanda baragenda. Kuruhande rwo haruguru, hari imodoka ziparitse imbere y'inzu, iruhande rw'imodoka hari ikidomora cy'umuhondo giteretseho, iruhande rwabo inyuma ya motari hari umugenzi arimo kugenda n'amaguru azamuka.

Umumotari uhetse umugenzi bose bambaye kasike barimo kumanuka, inyuma aho aturutse hari abanyamaguru barimo kugenda ba abamama, hepfo hari ibiti by'inturusu ku muhanda byinshi.

Umuntu uri kuri moto utwaye moto ariko nta muntu ahetse yambaye kasike indi iri imbere ari muri kaburimbo aragenda inyuma ye hari umuntu w'ibigari, ku ruhande rwo hepfo hari amazu, imbere yaho hari amamodoka aparitseho hirya hari inyubako zikomeje, inyuma y'ibiti ibyapa.

Abamotari babiri barimo ko bakurikiranye bamanuka nta bagenzi bafite, undi inyuma y' urimo utunguka hakurya n'u muririma urimo insinga z'amashanyarazi zigenda. Harimo n'irima.

Mote iri muri kaburimbo ihetse abantu babiri hari utwaye, hari n'uwo ahetse inyuma, iruhande rwe hari ama moto, hari amamodoka aparitse ruguru imbere y'amazu, barimo kugenda bambaye amakasika bose.